Nibyiza ko uhinga cyane, ukajya ufuhira n'umuti ugafuhira ku gihe, bituma imyaka yera neza cyane turabikunda.

Amafi meza. Turayakunda, turayakunda Abanyarwanda, afite umumaro mwinshi mu buzima bw'abantu, no mu buzima muri rusange, ni meza cyane.

Amafi ni meza, ni byiza ko umuntu agera igihe akarya amafi. Ni meza mu mubiri w'umuntu.

Ibiti ku murizo w'umurima aba ari byiza cyane, no ku nkengero z'umuhanda aba ari byiza cyane.

Karoti ni nziza zituma urya neza, kandi ukazihinga ukanunguka, ni nziza.

Biba byiza cyane, iyo urangije gusarura ibikenyeri ukabitwika, bikabyara indi fumbire abantu turabikunda.

Abahinzi bakunda guhinga ibitunguru nibyiza cyane. bihumuza ibiryo bikaba byiza.

Ni byiza ko abantu baganira ku byerekeranye n'ubuhinzi, bagahinga kijyambere. Ni byiza cyane, turabikunda.

Ni byiza ko amatarasi bajya bayakoramo umuganda, bakayahingamo ibikorwaremezo, bagashyiramo ibishyimbo bagashimo imbuto zigiye zitandukanye ni byiza cyane.

Ibirayi ni byiza cyane ibirayi by'abanyakinigi, biba biryoshye bituma umuntu agira imbaraga cyane cyane iyo bitetse nko ku bishyimbo.

Kujya guhinga biba byiza iyo uzindutse ugatangira kare, ukitahira na kare, ukabona umwanya wo kuruhuka, warangiza ukajya no kugambana n'abandi neza ku mugoroba.

Ibijumba ni byiza, bituma umuntu agira imbaraga, agakomera, akumva ameze neza, ibijumba turabikunda.

Ibijumba ni byiza ,bitera imbaraga ,ibijumba bya Murigande bituma umuntu yumva akomeye.

Amatunda ni meza ku mwana utaragera igihe cyo gufata ibiryo bihagije, abana barayakunda ariko ni meza no ku muntu mukuru.

Gufatanya ni byiza, abantu bafatanyije nacyibatadukanya ntanicyabahungabanya, n'ibyiza ko abanyarwanda dushira hamwe, n'abandi bantu muri rusange.

Amajeri ni meza cyane abantu barayakunda, abaturage muri rusange. Atuma mu nda afasha abantu baribwa mu nda, badwara igifu, ni meza cyane.

Urutoryi ni rwiza ni rwiza cyane, ku mubiri n'urubuto turya tukumva ruraryoshye turarukunda.

Imiteja ni myiza cyane kuyirya, kuyiteka, turayikunda.

Nta bwo ari byiza ko utonora urubuto utararurya, ukarutonora ukarurangiza. Nta bwo ari byiza.

Abana bakunda kubarindisha ahantu banitse, kugira ngo inyoni zitarya ibyo banitse.

Ni byiza guhinga imbuto muri rusange ni byiza cyane. Abantu barabikunda, imbuto ni nziza zirafasha mu mubiri, mu buzima bw'abantu muri rusange nk'abaturage.

Ni byiza gufuhira imyaka mu gihe cy'izuba, bituma imyaka ituma. Abahinzi barabikunda cyane kuko ni byiza.

Nibyiza guhinga ugasarura wishinye cyane, ukumva uranezerewe, ukumva ifite ibineza neza, nibyiza cyane tugomba kubikunda.

Avoka ni nziza ituma umubiri uhorana itoto, ituma umubiri uhorana isura nziza turayikunda.

Ibihingwa ni byiza ,bituma igihugu kitagira inzara, abaturage batagira inzara. Abantu tujye turabikumda . Tubikunde cyane ni byiza.

Ni byiza guhinga imyaka ukayivomera, ukanayifuhira. Ni byiza cyane, bidufasha gutuma imyaka ikura neza.

Ni byiza ko dutera tugatera n'indabo kuko tujya tuzikenera mu buzima busanzwe no kuzidekoza turazikunda.

Amatunda ni meza cyane ku buzima bwa buri umwe wese. Amatunda tugomba kuyakunda cyane, agira umumaro munini ku buzima bwacu. Turayakunda cyane.

Imbuto ni nziza. Zituma umuntu abaho neza, akanagira mu maso heza cyane. Imbuto abantu barazikunda, n'abanyarwanda muri rusange.

Imyembe cyane ku yirya imaze gutukura, abantu barayikunda cyane n'abana bakayikunda cyane.

Urusenda ni rwiza cyane, rutuma umuntu agira apeti yo kurya, ibiryo akumva biri kumugwa neza, abantu muri rusange turabikunda.

Imyumbati ni myiza ituma umuntu agira imbaraga, agakomera mu mubiri, akumva akomeye. Imyumbati ni myiza cyane turayikunda.

Urubuto rw'ipera ni rwiza cyane. Abana bararukunda, n'abantu bakuru bararukunda.

Ni byiza ko imbuto intoryi, pavuro, inyanya, wotameroni ni byiza ko umuntu abirya mu mubiri turabikunda.

Amateke y'amabwayisi ni meza turayakunda. Atuma umuntu agira imbaraga, atuma umuntu akomera, kandi araryoha cyane.

Ni byiza kurema amasoko no guhinga ugasagurira amasoko, abanyarwanda turabikunda cyane.

Amateke y'amabwayisi abantu barayarya. Aba aryoshye. Umuntu wayariyeho yifuza guhora arya.

Imiteja ni myiza cyane, abaturage turayikunda, ifite umumaro mwinshi mu buzima no mu mubiri yoroshya munda.

Ni byiza cyane kubungabunga ibimera, nk'ibishyimbo bikiri bitoya. Ukabikunda cyane.

Imbuto ni nziza cyane, zifite umumaro ku buzima bw'abantu benshi. Imbuto ni nziza mu mubiri. Uretse no mu mubiri no mu zindi ngingo.

Ibishyimbo by'imiteja ni byiza cyane kubibungabunga kugirango biteremo bifite ahantu heza, iyo wabaga warabisoromye tugomba kubikunda cyane.

Ingano ni nziza zikugwamo byinshi: ubugari, igikoma, ifarini, ni nziza cyane turazikunda.

Guhanika ibigori ni byiza cyane. Bituma dukuramo akawunga , ukuramo ifu y'igikoma, turabikunda.

Amajeri ni meza cyane, abantu dukunda kuyarya, iyo ari mu gitoki, kandi n'amatungo akunda turiya twatsi twayo, iyo ziri kuyarya zumva ari byiza.

Korora inka ni byiza bituma unywa amata, kandi ukabona n'ifumbire ku gihe ku muntu uhinga, ni byiza cyane.

Ni byiza ko inka uyifuhira, ukayitera umuti, ibyo ni byiza ni byiza cyane abantu togomba kubikunda.

Korora inkoko ni byiza, ni byiza cyane. Urya amagi, ugasagurira amasoko.

Ni byiza ko umworozi abungabunga amatungo ye, akayakunda akayanyuramo akareba ubuzima bwayo.

Korora ni byiza. Korora inkoko zitera n'amagi. Abanyarwanda bakabona amagi, n'abana b'abanyarwanda bakabaho neza, amagi ni meza cyane.

Amagi adufasha kugira ubuzima, atuma agira ubuzima bwiza akabaho neza, agira n'ubuzima buzira umuze ,amagi ni meza cyane.